Inyubako nziza ndende, iriho imyenda iriho amabara icyatsi, ubururu, umweru, umukara, ifite parafo nziza, isize amarangi meza, ibyuma ku ruhande, ibiti byiza by'icyatsi kibisi, ahantu hazengurutswe hameze neza, hafite amasuku.